Inyubako yubatswe kijyambere ifite intebe zigezweho, icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye.

Isahani iriho ibirayi bibiri na brusheti ebyiri. Aho ibyo biribwa bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyubako yubatswe kijyambere, yatangirwagamo serivise y'amafunguro ndetse n'ibyo kunywa, aho bategurira amafunguro mu bisorori bigezweho kandi bya kijyambere.

Inyubako yubatswe kijyambere， icururizwamo ibinyobwa bitandukanye， harimo ibisembuye n'ibidasembuye， ubona ko bakoreramo imyidagaduro.

Inyubako yubatswe kijyambere bita bare, icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, aho abakiriya baza kwicira akanyota.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibinyobwa bitandukanye. Harimo ibisembuye n'ibidasembuye.

Inyubako yubatswe kijambere, ifite amatara agezweho, icururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye, aho abarigana banywa bagashira inyota.

Inyubako yubatswe kijyambere , icururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye , aho buri muntu wese yisangamo.

Iduka rigezweho ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, aho abaturage baza kunywera ibinyobwa bitandukanye.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibijyanye n' iminywere, aho bafite n' umwanya wo gususurutsa ababaganye bakoresheje imbyino zitandukanye.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, urugero: ibisembuye ni sikoro, ibidasembuye ni ji y'inyange.

Inyubako yubatswe kijyambere, icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, aho abagabo babiri baje kwicira inyota.

Inyubako igezweho yubatswe kijyambere, icururizwamo ibinyobwa bitandukanye. Aho abahagana babasha kwishima kandi bagashira inyota.

Inyubako yubatswe kijyambere， ifite urugi rugari， rusize irangi ry'umweru， icururizwamo ibinyobwa bitandukanye， ibisembuye n'ibidasembuye.

Iduka ryubatswe kijyambere, rifite imiryango ibiri, umwe ucururizwamo ibijyanye n'ibiribwa by'amoko yose, undi ucururizwamo ibijyanye n'imyambaro itandukanye.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa bitandukanye urugero: umuceri, amaji, isukari n'ibindi byinshi.

Inyubako yubatswe kijyambere ku ruhande hariho abagabo batatu, ikinze, isize irangi ry'umuhondo ku rugi hariho irangi ryubururu, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Inyubako igezweho yubatswe kijyambere icururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo umuceri, kawunga n'ibindi byinshi.

Iduka ricururizwamo imyenda itandukanye harimo amarido, amashuka, ibiringiti, imisego dukenera mu buzima bwa...

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo imyambaro itandukanye. Urugero: imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, n'ibindi byinshi.

Inyubako yubatswe kijyambere itangirwamo serivisi zijyanye n'ubukwe, aho ubagana bamufasha gukora ubukwe bwe neza.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibinyobwa bidasembuye. Urugero amazi, amaji, amata, n'ibindi byinshi.

Inyubako yubatswe kijyambere harimo umumama ucuruza ibintu bitandukanye, aho abaturage baza guhahira ibintu bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye harimo ibikuvureri, amasuwime, ibishora, amashakoshi, amasafuriya, amabase, indobo, n'imikoropesho, n'ibindi byinshi.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibijyanye n'ibikomoka ku matungo, urugero inyama z'inka n'ibindi byinshi.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo imyenda itandukanye harimo: iya siporo, imipira yi'imbeho ,amapantaro, amashati n'ibindi byinshi.

Isoko ryubatswe kijyambere, rifite ibisima bigezweho, ricururizwamo imbuto zitandukanye, harimo wotameroni, imineke, amatunda, inanasi, imyembe, n'ibindi byinshi.

Jaride iteyemo indabo zitandukanye, harimo icyapa cyanditseho Virunga . Hari akabogisi bashyiramo imyanda. Ku ruhande hariho inyubako icururizwamo ibijyanye n'iminywere.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo amaterefone, amakuteri, memorikadi, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu iduka ricururizwamo amazi, aho abaturage baza kugurira amazi yo kunywa, yujuje ubuziranenge.

Inyubako igezweho yubatse kijyambere, icururizwamo ibintu bitandukanye ,ku ruhande rwaho hariho agakiyosike gacururizwamo imikati n'amasambusa.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Urugero amavuta yo guteka, umuceri, n'ibindi byinshi.

Inyubako y'ubatswe kijyambere, icururizwamo ibikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, urugero amatiyo.

Iduka ubona ko rishaje ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, abaturage baza guhahira ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iduka ricururizwamo imyambaro itandukanye ndetse ni ibiryamirwa bitandukanye, urugero rw'ibiryamirwa imisego, ibiringiti, amashuka ni ibindi byambarwa ni ibitenge ni indi myenda myinshi.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga urugero radiyo, tereviziyo, terefone, amasaha n'ibindi byinshi.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibicuruzwa by'ikoranabuhanga, urugero: telefone, radiyo, ekuteri, fulashe, memorikadi n'ibindi byinshi.

Iduka ricururizwamo ibijyanye no kunywa. Urugero amata, amazi, amaji, fanta.

Inyubako zubatswe kijyambere zicururizwamo ibintu bitandukanye, ku ruhande rw'aho hari akazu gasize amarange y'umuhondo gatangirwamo serivisi za MTN.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibijyanye n'amarangi, aho abaturage baza guhahira bakasiga amazu ya bo, agasa neza.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho abaturage baza guhahira ibintu bakenera mu buzima bwa buri munsi, urugero : Umuceri, kawunga.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye . Urugero rw'ibiribwa harimo: Imikati, amandazi ibyo kunywa, amaji n'amagi, n'ibindi bitandukanye. Ibikoresho ni amabase.

Iduka ricururizwagamo ibijyanye n'imyambaro yabageni, aho abarigana bahabwa, imyenda myiza.

Iduka ricururizwamo ibijyanye n'imyenda, urugero: amashuka, amarido, amasuwime, ibikapu baheka, n'ibindi byinshi.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, harimo imikati, amandazi amagi, ibyayi n'ibindi byinshi.

Inyubako zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abaturage bajya guhahira ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iduka ryubatswe kijyambere， rigaragara ko ricururizwamo ibintu bitandukanye， risize amarangi y’umuhondo n'umweru， harimo utuntu utudazayini tw’umukara.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibijyanye n'iminywere. Ibisembuye n'ibidasembuye.

Inyubako y'ubatswe kijyambere, icururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho abaturage bajya guhahira ibyo bakenera, mu buzima bwa bo bwa buri munsi.

Inyubako yubatswe kijyambere yifashishwamo mu gucuruza ibintu bitandukanye. Ku ruhande hari umuhanda urimo umumotari.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho abarigana bahabwa serivisi z'ibintu bakenera bitandukanye.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abaturage baza guhahira ibyo bakeneye urugero harimo: imikati ,n' amaji y'inyange.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiryamirwa n'imyenda ingero: amamatora, imisego, imyenda yabagabo n'iy'abagore n'ibindi byinshi.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye umuturage yakwifashisha, mu buzima bwe bwa buri munsi.

Inyubako nini yubatswe kijyambere icururizwamo ibiribwa bihiye by'amoko menshi, aho tuhifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bya kijambere urugero: ibikombe bakunda kwita amatasi, ibirushe, ibimamiyo, ibyuma, amasafuriya, ibisorori, n'ibindi byinshi.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibijyanye n'suku, urugero isabune yo gukoropa, umuti wica imibu n'ibindi byinshi.

Inyubako igezweho yubatswe kijyambere, isakaje amabati ya kijyambere, ubonako itangirwamo serivisi zifasha kuruhura abantu mu bwonko.

Iduka ryubatswe kijyambere. Ricururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye. Aho abantu barigana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'inkweto. Urugero rw'ibiribwa ni: amashu n'ibijumba, ndetse n'amakara yo kubitekesha.

Inyubako yubatswe kijyambere, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ni ibiribwa by'amoko yose.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo imyenda itandukanye, urugero: imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, ndetse n'abandi.

Inyubako yubatswe kijyambere, icururizwamo ibijyanye ni iminywere urugero amata, amazi, ji n'ibindi bitandukanye

Iduka rigezweho ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye urugero: amakaro.

Iduka ricururizwamo imitako itandukanye, abantu bakunda kwambara urugero amashapure, amaherena, impeta n'ibindi byinshi.

Inyubako igezweho yubatswe kijyambere icururizwamo inzoga bita virunga, yegereye hafi y'umuhanda wa kaburimbo aho abaza kuzigura biborohera.

Iduka ryubatswe kijyambere，ricururizwamo amarange atandukanye，aho abarigana batwara amarange，bagasiga inzu zabo zigasa neza cyane.

Isoko rigezweho ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo n'imbuto urugero imyembe, imineke, ibinyomoro n'ibindi byinshi.

Inyubako igezweho yubatswe kijyambere icururizwamo ibijyanye n'iminywere. Ibisembuye n'ibidasembuye, urugero: amapirimusi, amafanta, n'ibindi byinshi.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye harimo iby'amasuku urugero:lakelete ikoropa ,indobo zifashishwa ,amabase yo gufuriramo.

Inyubako yubatswe kijyambere, ifite urugi rugari, isize amarangi y umutuku. Icururizwamo ibiribwa by'amoko atandukanye urugero igituki.

Akazu kubabatswe kijyambere gasize amarange atandukanye ubona ko gacururizwamo amazi yo gukoresha mu mirimo itandukanye.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, abantu twifashisha mubuzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubeho.

Igare ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu buzima bwa buri munsi, ridufasha gutwara imizigo vuba kandi neza...

Jaride nziza iteye ubwuzu, irimo ibiti birebire bizana amahumbezi, aho abahagana baje gushaka serivisi, bahabwa serivisi ishimishije ijyanye no kurya no kunywa.

Iduka rinini ryubatswe kijyambere ricururizwamo imiti itandukanye harimo iy'amatungo, urugero :inka ,ihene, intama, n'izindi nyinshi.

Ni inyubako z'ubucuruzi, zitangirwamo serivisi yo guhaha, mu gihe abazigana bahabwa serivisi inogeye.

Iduka rigezweho ryubatswe kijyambere, ricururizwamo imyenda itandukanye, urugero: amapantaro, amashati, n'ibindi.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, ryegereye umuhanda aho abarigana bahaha ku buryo buboroheye cyane.

Inyubako yubatswe kijyambere. Ikorerwamo serivice zijyanye no kubitsa cyangwa kubikuza. Aho abaturage barigana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Hoteri igezweho yubatswe kijyambere，isakaje amabati ya kijyambere，ikingishijwe inzugi zigezweho， imbuga irimo amapave，ifite jaridi nziza kandi zigezweho.

Hoteli igezweho yubatswe kijyambere, ifite jaride nziza ishimishije mu gihe abayigiyemo bifotoza amafoto abo....

Inyubako yubatswe kijyambere, itangirwamo serivisi yimirire n'minywere, aho abahagana bahabwa serivisi nziza, kandi ishimishije.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye n'ibinyobwa bitandukanye, urugero: amandazi, imigati, capati n'ibindi byinshi.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bijyanye n'umuco byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, urugero: imyeyo bakondoza, intara bagosoresha imyaka.

Isoko ryubatswe mu buryo bugezweho, ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, urugero: nk'imbuto ziturinda indwara, ibikoresho twifashisha mu rugo, urugero: amasafuriya, amabase, n'ibindi.

Isoko ricururizwamo ibijyanye n'imboga. Urugero imiteja, intoryi n'ibindi byinshi.

Isoko riciriritse ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo: imyenda, amaronji, inanasi, n'ibindi byinshi aho abarigana biteza imbere.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo n'ibyo kurya. Aho abaturage baza guhahira ibyo bakenera, mubuzima bwabo bwa buri munsi.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa, n'ibikoresho by'amoko yose abaturage twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko rinini, ritubakiye, ryaremwe n'abantu benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore, ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, urugero: inkweto, imyenda n'ibindi byinshi.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo imbuto zidufasha kwirinda indwara mu mubiri wacu ari zo urugero: amapapayi ya kizungu, amapapayi ya kinyarwanda, amaronji, ibinyomoro, amatunda, pome n' ibindi byinshi.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo abantu bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, urugero: amasahane n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Isoko ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, urugero: amavarize, mari, imyenda, amapantaro amakote nibindi byinshi.

Inkweto zidufitiye akamaro mu gihe tugiye gukora urugendo rwa kure, cyane cyane cyane mu mihanda irimo amabuye ziturinda kwicwa na yo.

Iduka rya kijyambere ricururizwamo ibikoresho bitandukanye twifashisha muzima bwacu bwa buri munsi. Urugero amabase manini, amabase mato, ibikombe, n'ibindi byinshi.

Isoko ryubatswe kijyambere ricururizwamo imbuto z'amoko atandukanye, urugero: imineke, ibinyomoro, amatunda n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Iduka rya kijyambere ricururizwamo inkweto zitandukanye twifashisha mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho abarigana baza kugura ibintu byinshi bitandukanye mubuzima bwabo bwa buri munsi, urugero hacururizwamo ifu y'ubugari.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye. Aho abaturage bahahiramo ibintu bishimye. Urugero: inyanya, karoti ,amashu n'ibindi.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibiribwa n'ibikoresho by'amoko yose. Urugero: Ibikoresho ni amasafuriya, amabase, ibyo kurya ni umuceri n'ibindi byinshi.

Inyubako nini kandi ngari yubatswe kijyambere icurizwamo ibintu bitandukanye.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo ibikoresho bitandukanye harimo amaterefone, ibikoresho by'ikoranabuhanga, n'ibindi byinshi.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bitandukanye. Urugero ibishyimbo, amavoka, imineke, amaronji, inanasi n'ibinyomoro n'ibindi byinshi.

Inyubako igezweho yubatswe kijyambere, icururizwamo ibintu bitandukanye, aho abaturage bifashisha mu guhaha ibintu bitandukanye.

Umusaruro wa shufureri, ni zimwe mu mboga twifashisha, mu kurinda indwara, zitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho abaturage baza guhahira ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urugero ibitoki, ibijumba, amashaza, ibishyimbo, ibirayi n'ibindi bitandukanye.

Isoko rigizwe n'amazu menshi yubatswe kijyambere, ricururizwamo ibintu bitandukanye, byegereye umuhanda ,aho abarigana riborohereza kugezwa kuhageza ibicuruzwa byabo.

Isoko riciriritse ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, urugero ibishyimbo by'ibitonore, ibishyimbo byumye ndetse n'amagi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye， dukenera mubuzima bwa buri munsi，harimo： Amakara， ibirayi n'ibindi byinshi.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi urugero: amagi ni kimwe mu biribwa bikomoka ku matungo birwanya indwara.

Iduka ricururizwamo imyambaro itandukanye, iy'abagabo niy'abagore. urugero: imyambaro y'abagabo amashati, amapantaro, n'ibindi. Iy'abagore ibitenge, n'ibindi byinshi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye umuntu akenera muzima bwa buri munsi, urugero omo, uburoso, amajyane, amavuta yo kwisiga n'ibindi byinshi.

Iduka ryubatswe kijyambere ricururizwamo imyambaro itandukanye, aho abarigana bahabwa serivisi ibanogeye.

Iduka ryifashishwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abantu baza kubihahira mu buzima bwa bo bwa buri munsi.

Isoko ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye urugero: imyenda y' abagabo, imyenda y' abagore ndetse n' iy' abana.

Iduka ryubatswe kijyambere, ricururizwamo imyambaro itandukanye urugero iy'abagore n'iy'abagabo, n'iyindi myambaro myinshi.